Umugabo n'umugore bose bambaye imipira y'umweru iriho Radiyanti, ndetse igaragaza ko bafite sheke iriho amafaranga bahawe.

Icyapa cy'ubururu, cyanditseho buritamu, kiri ahantu hakorerwa inama, ndetse hakaba hari intebe ndetse n'ameza yo kuganiriraho, ateretseho udutabo.

Icyapa kinini cyamamaza kiriho abantu babiri harimo; umugabo ndetse n'umwana barimo barasuhuzanya bose bakaba bambaye.

Icyapa cyamamaza kiriho umugore wasetse ndetse uri kuri terefone akaba ahetse igikapu gisa' ubururu arimo arareba hejuru.

Icyapa kinini cyamamaza gikozwe mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, icyo cyapa kikaba gishushanyijeho imbwa ndetse n'ibindi bintu bikiranga.

Icyapa kiriho umukobwa wambaye ishati y'umweru, atwaye imodoka ndetse yanasetse, iruhande rwe hariho umuhungu na we wasetse, yambaye umupira.

Akabati k'imyenda karimo amashati y'amabara atandukanye. Karimo amashati y'umuhondo, ndetse n'amashati yicungarishije, ndetse n'amashati y'umutuku.

Umugore uri muri butike urimo urasuka bombo ku gapapuro, ndetse muri iryo duka hakaba hacururizwamo n'ibindi bintu bigendanye uko abantu babyifuza.

Abantu babiri bari ahacururizwa ibintu, bombi bakaba bahagaze harimo umwe wirabura w'umugabo ndetse n'undi w'umuzungu bose bari imbere.

Umugabo uri mu iduka ricururizwamo imyenda itandukanye y'abagore, urimo uraganira n'umugore w'umuzungu ufashe imbere ya mudasobwa iri imbere.

Umugore uri mu iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, wambaye igitenge cy'umutuku urimo urabara amafaranga mu ntoki yabonye.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo amashati y'abagabo ndetse n'inkweto zo kwambara, ndetse n'ibikapu byo gutwaramo ibintu.

Inzu icururizwamo ibintu bikozwe mu bunyabukorikori ndetse harimo n'amashati ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byose bikozwe mu buryo bwa gakondo.

Imodoka nini y'umukara, ifite ibirahure bitabonerana, ndetse iruhande rwayo hakaba hari n'indi na none y'umukara, biri imbere y'inzu y'amagorofa menshi.

Imodoka y'umutuku ifite ibirahure bibonerana, iri mu igaraje, ndetse n'indi iri kuruhande na yo itukura, ifite ibirahure na byo bibonerana.

Imodoka ifunguye harimo intebe z'umweru ndetse n'imikandara y'umukara, ikaba ifunguye imbere ndetse n'inyuma yayo, iruhande rwayo hakaba hari imodoka.

Abantu bane, bose babagabo bahagaze, bafite urufunguzo rw'imodoka barufasheho, inyuma yaho hariho imodoka nayo iparitse imiryango ifunguye.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka bafite urufunguzo rwanditseho akagera motoro ndetse n'imodoka nini y'umweru ibari inyuma aho bahagaze.

Abakobwa babiri bahagaze imbere y'imodoka y'umukara ifite ibirahure bibonerana ndetse yacanye amatara. Aba bakobwa bombi bambaye udupfukamunwa ku munwa.

Abagabo babiri barimo baraganira harimo umwe w'igikara ndetse n'undi w'umuzungu wambaye ishati urimo uramwereka akantu yagombaga gukoresha.

Imodoka iri kwaka amatara, ndetse imodoka ikaba isa umukara, ifite n'ibirahure bibonerana, bigaragara ko igurwa igiciro cy'amafaranga miliyoni mirongo itatu.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka ya hilix, bose bafashe urufunguzo rw'imodoka igaragaza y'uko batsindiye...

Imodoka y'umukara ifite ibirahure bitabonerana, inyuma yayo hariho icyapa cyanditseho yundayi, ndetse inyuma hari umuhanda uri kugendwamo na moto.

Imodoka ifunguye ndetse ikaba ifite intebe z'umukara ndetse na tereviziyo imbere, iyo modoka iruhande rwayo hakaba hari izindi modoka nazo zitwara abagenzi.

Imodoka iri imbere y'inzu ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibirahure by'umukara na purake yanditseho kigali kazi maketi.

Ahantu hari parikingi y'amamodoka agiye atandukanye, imbere yaho hakaba hahagaze abagabo babiri harimo umwe wambaye kositimu ndetse inyuma yabo hakaba hari n'itaje.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka y'umukara, bafite urufunguzo rwanditseho akagera motoro, harimo umwe wambaye ishati y'umweru, ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Amafaranga ibihumbi bitanu ukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, asa umutuku ndetse akaba anariho n'ibirango birimo uduseke tubiri two...

Ishusho igaragaza amafaranga y'inote y'ijana ya kera yakoreshwaga mu Rwanda ndetse iyo note ikaba isa umuhondo irimo ndetse n'amabara y'icyatsi.

Umugabo ufite imibandari y'amafaranga y'inoti za magana atanu, akoreshwa mu gihugu cya nigeriya ,urimo urayabara mu kamashini kagenewe kubara amafaranga.

Inoti y'amafaranga igihumbi y'u Rwanda .Iriho imisozi ndetse n'ibiti. Iyo note ikaba yemewe kuba yakoreshwa , ahantu hose nk'uko amategeko abiteganya.

Umugabo ufite amafaranga menshi, harimo n'amadolari y'inoti za mirongo itanu, ndetse n'andi akoreshwa mu bindi bihugu bigiye bitandukanye.

Umugore uri mu iduka wambaye ikanzu y'ubururu, n'ivara ry'umweru m'umutwe, uri kugura ibintu bitandukanye birimo: ji, imineke, n'amazi.

Abagore babiri bahagaze harimo umwe wambaye umupira w'umukara ndetse n'undi w'ishati y'umweru, uteruye agakarito karimo amaji menshi.

Ikusanyirizo ry'amata riri ahantu hari umucyo, ndetse hakaba hari n'utubido turi muri firigo tugiye turimo amata.

Umuntu uri mu ikusanyirizo ry'amata urimo urasuka amata ndetse imbere ye hakaba hari umuntu utegereje ko bayamuha, akayajyana bose bakaba bambaye amakoti.

Ibikoresho bitandukanye, birimo ameza ndetse n'uburiri bwo kuryamaho, ahangaha akaba ari muri hoteri, aho umuntu ashobora gusohokera kugira ngo aruhuke mu mutwe cyangwa se ashaka no kwishimisha.

Akabati k'ubururu gateretseho teremusi ebyiri, harimo imwe ikozwe mu muringa ndetse n'indi ikozwe muri purasitike, iruhande rwayo hakaba hari akantu karimo capati.

Icyapa cyamamaza kiriho umugore uri gukanda ku itara kimenyesha ko wishyura umuriro ukoresheje Eyateli mani ndetse n'uburyo babikoramo bukaba bugaragara.

Abantu benshi bari ku murongo, bategereje guhabwa serivisi yo kohereza amafaranga, mu bindi bihugu, bose bahagaze barindiriye ko bagerwaho.

Telefoni irimo ibyapa bigaragaza kongera amanota uwo umuntu asabwa, ndetse bikaba bigizwe n'amabara atandukanye, arimo ay'icyatsi ndetse n'umweru.

Amafaranga y'inoti igihumbi ariho uko akoreshwa mu gihugu cya Tanzania, aya mafaranga akaba asa ubururu ndetse n'iroza.

Abagabo babiri b'abazungu barimo barahererekanya amafaranga, harimo umwe uri gutanga amashinwa ndetse n'undi uri gutanga amafaranga y'amadorari.

Imashini irimo irabara amafaranga y'amadorari ndetse iruhande rwayo hari terefone irimo irakoreshwa nka karikiratirise mu kubara ayo mafaranga.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse afite amafaranga mu ntoki he harimo inoti za magana atanu ndetse n'izindi zigizwe n'amabara y'iroza.

Imibandari y'amafaranga igera kuri itandatu, iriho amafaranga akoreshwa mu bihugu by'uburayi y'inote ya magana abiri zirimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Ikarita igaragaza uko amafaranga mvamahanga avunjishwa harimo ayo muri Amerika uburayi, Ubwongereza, Ubuyapani ndetse na Kanada.

Inoti ebyiri z'amafaranga magana atanu akoreshwa mu gihugu cya tanzania, hariho umugabo ndetse n'ikirango cy'icyo gihugu cya Tanzania ndetse n'abantu bicaye.

Icyapa kigaragaza ivunjisha ry'amafaranga agiye atandukanye, yo mu bihugu birimo nk'ayo muri Amerika, muri Erope ndetse n'amanyakanada ndetse n'amanyakenya.

Inote ikoreshwa mu gihugu cya Congo, iyo note ikaba isa umweru ndetse n'ibara ry'ubururu n'icyatsi ikaba iriho inzovu ndende kuri iyo noti.

Abantu babiri bigaragara ko barimo barahererekanya amafaranga, harimo umwe ufite amadolari ndetse n'undi ufite andi mafaranga akoreshwa mu kindi gihugu.

Imibandari itatu iriho amafaranga icumi y'amayero akoreshwa mu bihugu by'ubumwe n'uburayi akaba asa iroza ndetse n'umweru.

Inoti y'amafaranga ibihumbi icumi ndetse n'indi y'amafaranga ibihumbi makumyabiri akoreshwa mu gihugu cya Kongo ariho ibirango bigaragaza icyo gihugu.

Umuntu urimo urabara amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, arimo amadolari y'inote z'ijana ndetse n'andi akoreshwa mu kindi gihugu inote z'ijana.

Inoti y'amafaranga atanu ikoreshwa mu gihugu cy'ubushinwa iriho umugabo wambaye ishati ndetse isa umweru ndetse na kaki.

Umuntu uri mu biro ufashe amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'ubushinwa urimo urayabara harimo amafaranga atandukanye harimo inoti za mirongo itanu, ndetse n'izijana zigiye zitandukanye.

Umuntu ufite mu ntoki ze amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse amafaranga akaba ari inoti za magana atanu zigeze kuri esheshatu.

Intebe nziza ikoze neza, iyi ukaba wayitunga mu rugo, ndetse mu mahoteli bashobora kuyitunga no mu maresitora n'ahandi hantu hatandukanye, no mu biro, hanyuma ikaba yagira umumaro wo kuyicaraho.

Amafaranga menshi atandukanye, akoreshwa mu gihugu cy'ubumwe n'ubumwe bw'uburayi, harimo inoti za magana abiri; ijana; mirongo itanu, ndetse niza atanu.

Umugabo wambaye ikoti ufite mu ntoki ze imibandari y'amafaranga akoreshwa mu gihugu cyo muri Afurika, iyo mibandari ikaba igizwe n'inoti za magana abiri.

Umugabo uri kubara amafaranga, harimo inote za mirongo itanu, ndetse n'inote z'ijana ku ruhande naho hakaba hariho ibiceri byinshi.

Iduka rigaragaza ko muri ryo haberamo ubucuruzi bwo guhana amafaranga, amwe yoherezwa ava mu kindi gihugu agana mu kindi.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga magana ane y'amadorari, umwe ari kuyanyuza munsi y'ikirahure ndetse n'undi ari kuyakira n'intoki zombi.

Inzu iri mu icyapa kigaragaza ko hakorerwamo ivunjishwa ry'amafaranga y'abanyamahanga ndetse muri iyo nzu hakaba harimo n'intebe zo kwicaraho zagenewe abakiriya.

Inzu iriho umuryango, uriho icyapa kigaragaza y'uko aho hantu hakorerwa ubucuruzi bwo kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga.

Iduka bigaragara ko rikorerwamo ibijyanye no kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga, iryo duka rikaba ririmo umuntu wicaye ndetse n'undi uri kwaka serivisi.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bigiye bitandukanye, harimo nko kohereza amafaranga mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse no kuyavunja.

Umukobwa wicaye muri butike ikorerwamo ibikorwa byo kohereza amafaranga kuri terefone, uwo mukobwa akaba yicaye yambaye agapira karimo imirongo y'imikara.

Ahantu hari intebe zo mu ruganiriro ndetse n'ameza yo guterekaho ibintu, izo ntebe zikaba zisa umukara ndetse n'umweru.

Ibikoresho bishyirwa mu ruganiriro birimo intebe zo kwicaraho, harimo intebe z'umweru ndetse n'intebe z'umutuku, imbere hariho akabati ko guterekaho ibintu ndetse n'utundi.

Ahantu bacururiza ibikoresho byo mu rugo bishyirwa mu nzu muri salo, birimo nk'intebe ndetse n'akabati ndetse n'igitanda.

Pisine irimo umuntu urimo uroga mu mazi, ndetse iruhande rwaho hariho intebe zo kwicaraho, n'ibiti, hariho,

Inzu ndende yo guturwamo, igizwe n'amagorofa abiri, ndetse imbere hakaba hari ubusitani ndetse n'intebe zo kuganiriraho, abantu bicaye.

Inzu z'amagorofa menshi ndetse n'indi y'amagorofa igaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye nk'ubwa resitora ndetse n'ibindi bikorwa byo kwakira abantu.

Ibiro biri mu cyumba ahantu, harimo intebe yo kwicaraho, ndetse n'ameza yo gukoreraho, ayo meza agiye ateretseho telefoni zo kuvuganiraho, ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu biro.

Inzu y'amagorofa yo icyapa cyanditseho radiyanti shuwarense kampanyi, kiri mu ishusho y'ubururu, inafite ibirango by'umweru hejuru y'inzu.

Inzu ndende y'amagorofa ane, iriho icyapa cya kampani ikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ishinzwe iby'ubwishingizi bw'abantu n'ibintu.

Ahantu hari ibiro bikorerwamo n'abantu bashinzwe kwakira abagana iyo serivisi, imbere yayo hakaba hariho intebe yo kwicaraho, ndetse n'utubati two gukoreraho.

Inzu ya etaje iriho icyapa cya sosiyete y'ubwishingizi ya prime, imbere y'iyo nzu hariho umuntu wambaye ishati y'ubururu.

Icyapa cyamamaza kivuga ko kugera ku nzozi ndetse n'inguzanyo itazigamiye muri agisesi Bank, hariho umukobwa ufashe telefoni urimo uritaba.

Inzu igizwe n'amagorofa abiri, imbere yayo hakaba hariho icyapa cy'ubururu cyanditseho copedu purasitike, Kimironko buranshi. Ndetse n'ibindi byapa biranga icyo hakorerwa aho hantu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, irimo abantu bambaye amashati y'umweru bakora muri banki yitwa I&M yo mu Rwanda.

Abantu benshi bari mu isoko ricururizwamo ibiribwa, harimo abagore benshi barimo baracuruza inyanya, ndetse n'intoryi, ndetse na karoti n'imiteja.

Abantu benshi bari mu isoko ricururizamo ibiribwa harimo inyanya ndetse n'amashu ndetse na kokombure, imbere yabyo hakaba hari umugore wambaye igitenge.

Abantu bari ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ubunyabukorikori barimo bagenda bitegereza ibikorerwa aho hantu ndetse banabigura.

Inzu nini y'amagorofa menshi ifite ibirahure bigiye biyiri inyuma ndetse ifite n'ikirango cyanditseho kiki, imbere yayo hakaba hari abantu bari gukora ibikorwa bitandukanye.

Inzu ndende ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, imbere y'iyo nzu hariho umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'imodoka ndetse n'abantu barimo baratambuka.

Isoko riri ahantu bacururiza inkweto ndetse n'ibikapu byo guheka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abantu barimo baragenda ahantu hari isoko rya nyabugogo, ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, imbere yiryo soko har' imodoka ndetse na moto biri gutambuka.

Isoko ririmo abantu benshi bagiye bacuruza ibintu bitandukanye, harimo ibiribwa nk'inyanya, ibitunguru ndetse n'intoryi.

Umukozi w'umugore wa emutiyeni wambaye imyenda y'umuhondo igaragaza akazi akora, uri mu kazi.

Abagabo babiri barimo barabyina indirimbo, iruhande rwabo hakaba hari abagore babiri bambaye imipira ya MTN barimo barahereza abatsinze ibihembo.

Ahantu hari aho umu egenti wa airtel akorera hakaba hari icyapa cy'umutuku ndetse n'ibindi byapa bigaragaza serivisi ahakorera ndetse anahatangira.

Umuntu uri mu iduka ufashe telefone mu ntoki ze, urimo urandukura imibare ari bwishyurireho ibyo yari amaze kugura muri iryo duka.

Isoko bacururizamo ibintu bitandukanye by'ibiribwa bigiye bitandukanye, ririmo abantu barimo baragenda banyuranaho bose baje guhahira muri iryo soko.

Abacuruzi bacuruza serivisi z' imiyoboro yo mu Rwanda irimo Eyateri ndetse na MTN bose bicaye mu tuzu twabugenewe, harimo n'abakiriya babagannye bari guhabwa izo serivisi.

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze umwe muri bo afite ibendera rifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyapa kigaragaza umuntu wicaye ari kwandika kuri mudasobwa ndetse hariho n'ibindi bimenyesha yuko bahakorera serivisi zitandukanye zo kuri mudasobwa.

Inzu irimo igitanda gisashe ndetse kiriho imisego ibiri hasi hakaba hariho itapi ndetse hariho n'amarido ku madirishya afunze.

Icyumba cyo kuraramo kirimo igitanda ndetse n'akabati gashyirwamo ibintu, hejuru amatara nayo aracanye, icyumba kirimo n'akabati k'imyenda.

Icyumba cyagenewe ubwogero, kirimo aho hari amazi yo abantu bogeramo, ndetse hakaba harimo n'igitambaro cyagenewe kwihanagurisha, ndetse hakaba hacanye n'amatara.

Inzu igaragaza uruganiriro rurimo amatara ari kumurika, ndetse n'akapa gato kavuga amafaranga iyo nzu ishobora kuba igurwa, iri muri Kigali.

Ahantu hagaragaza uruganiriro ndetse n'intebe z'umweru zo kwicaraho n'ameza y'umukara hejuru hakaba hari amatara ndetse hakaba hariho n'icyapa kigaragaza ayo mafaranga iyo nzu ikodeshwa.

Inzu y'amagorofa abiri yagenewe guturwamo bigaragara ko ikodeshwa amafaranga ibihumbi bitatu ku kwezi ndetse iruhande hakaba hari indi nzu bisa.

Inzu ndende y'amagorofa menshi, ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirahuri by'ubururu, imbere yayo hakaba handitseho agaciro, ndetse hakaba hari n'ibiti imbere yayo.

Inzu bigaragara ko ikodeshwa ifite ibirahure bitabonerana ndetse bikaba bigaragara ko ikozwe mu makaro ndetse n'amabati y'umukara.

Inzu yagenewe guturwamo, ikaba ifite amapave imbere yayo ndetse ikozwe mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'ibara ry'umuhondo, bigaragara ko igurwa miliyoni ijana na mirongo itatu.

Inzu y'amagorofa abiri igaragara ko yagenewe guturamo ndetse iruhande rwayo hakaba hari izindi nzu bisa na zo zagenewe guturamo n'abantu.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, cyane nk'imyenda y'abana yo kurarana ndetse n'indi myenda ikoreshwa n'abana byose.

Abantu benshi bari kugenda, mu inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo acuruza imyenda, ndetse n'ahandi bacuruza ibikoresho bya telefone.

Abantu benshi bahagaze mu iduka ricururizwamo amavuta y'ubwoko butandukanye, harimo umugore wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Abantu babiri bari mu iduka ricuruza amatara atakwa mu rugo, bombi barimo baraganira n'umukozi ukora muri iryo duka.

Isoko rinini ricururizwamo ibintu bitandukanye, ririmo abantu barimo baragura ibicuruzwa ndetse iryo soko rizengurutswe n'imitako y'umutuku ndetse n'ameza y'umutuku.

Umugore uri mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye, birimo nk'amafu y'ibikoma ndetse n'indi mifuka, atwaye akagare, agana aho bamwakirira.

Ahantu hari abantu benshi hariho aho bacururiza ibintu bigiye bitandukanye, harimo nk'inkweto z'abagabo ndetse n'amasakoshi y'abagore ndetse n'imikandara y'abagabo.

Iduka ririmo ibintu bigiye bitandukanye, harimo nk'inkweto z'abagore ndetse n'iz'abagabo ndetse harimo n'imikandara yo kwambara ku bagabo.

Iduka ririmo abantu benshi, ricuruza imyenda y'abagabo, amakositimu atandukanye ndetse n'amashati, birimo abantu batandukanye.

Isoko ririmo abantu benshi, barimo baragura ibiribwa bitandukanye, harimo inyanya na karoti ndetse n'imboga zo kurya n'ibitunguru.

Abagore babiri bari mu iduka ricururizwamo ibiribwa, harimo umugore umwe w'umuzungu ndetse n'undi mwirabura bigaragara ko bishimye bahuje urugwiro.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye birimo amasakoshi y'abagore ndetse n'amarinete, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bikoreshwa n'abagore.

Icyapa cya sosiyete y'ubwishingizi yo mu Rwanda, kiriho umusaza ndetse n'umukecuru bafatanye bose basetse, inyuma yabo hakaba hari uduseke.

Abantu bari mu ivuriro rivura abantu, harimo abadogiteri ndetse n'abaturage baje kwivuza ndetse n'abandi bategereje ku murongo kugira ngo binjire.

Abagabo babiri bose bambaye amakositimu bari inyuma y'abagore babiri babari inyuma barimo baratanga serivisi zitandukanye.

Iduka rinini ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyokurya bya mugitondo ndetse n'imitobe yo kunywa n'ibindi bintu bikoreshwa mu rugo.

Iduka rinini ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo nk'amasukari ndetse n'amaji ndetse n'ibindi bintu bikenerwa gukoreshwa mu rugo.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye ririho abantu bahagaze aho bishyurira bategereje kwishyura, kugirango ngo uhabwe inyemezabwishyu.

Iduka rinini rigaragaza ibintu bicururizwa muri ryo harimo nk'imiti yo gutera ku birarahure ndetse n'imitobe yo kunywa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Iduka rinini ricururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo nk' amaji ndetse n'ibipapuro bikoreshwa muri tuwarete.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye bicururizwamo, harimo nka bombo ndetse na biswi, ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu rugo, kandi bikundwa n'abana.

Abantu bari mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo abana ndetse n'umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'umweru ndetse n'ipantaro yumukara.

Abantu benshi bari mu iduka baguriramo ibintu byinshi, harimo umugore uri gupakira imiceri ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara.